Abana bane, bambaye impuzankano bava ku ishuri, harimo abafite igikapu, abakobwa babiri n'abahungu babiri, baganira bari mu muhanda, bataha bajya imuhira, hari uri kubara inkuru ndetse n'abandi bamutegeye amatwi.

Ni Ibikoresho byifashishwa mu kurera abana, byambaye imyenda isa umutuku ndetse birimo ishusho y'amapusi, yambaye n'utwenda tw'imbeho mu ijosi.

Inyubako yubatse neza, isize irangi ry'ibara ry'umuhondo, hometseho icyapa kiranga ikigo k'ishuri ndetse n'amahame n'inintumbero z'ikigo na nimero ya telefone yacyo.

Ishuri ry'incuke, ku bikuta byayo hashushanyijeho, bimwe mu bihingwa, harimo ibishyimbo, imyumbati, ibiti ndetse n'inyama z'inkoko.

Ishuri ry'inshuke ku bikuta byayo hasize irangi ry'umuhondo, hashushanyijeho inka ndetse mu muryango hari umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, yambaye inkweto z'umukara.

Ibikinisho byifashishwa mu irerero ry'abana bato, harimo imodoka iri mu iburara ry'umuhondo, igare, intebe, urwego ndetse n'udukinisho turi mu ishusho ry'ipusi.

Abana biga mu mashuri y'incuke bicaye ku bikoresho cyangwa se ibyagenewe gukorerwaho siporo cyangwa iminyenga, bicaye bazenguruka bafashe imishumi yayo kugira ngo batagwa bikabafasha kubona ibyishimo.

Ishuri ry'abana b'incuke ririmo ibikoresho bitandukanye bigiraho mu mabara atandukanye, harimo ameza, intebe, ibikinisho babifashisha bari mu kwiga ndetse n'imyidagaduro.

Imipira itandukanye yifashishwa mu mikino harimo umupira w'amaguru, inziga ziri mu mabara atandukanye, imigozi yifashishwa mu gusimbuka iri mu mabara atandukanye: umuhondo, umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Umurezi cyangwa se umwarimu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari igitabo, ingwa kandi ari kwigisha abana abereka ku kibaho ibyo yanditse abasobanurira ibyo abigisha.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi bw'abana b'inshuke harimo ibikinisho, ibitabo byo gusoma ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubara biri mu mabara atandukanye, ay'umutuku n'ubururu n'andi menshi.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mikino y'abana harimo imipira itandukanye mu mabara atandukanye, yifashishwa mu mikino y'umupira w'amaguru, iyi mikino ibikoresho byifashishwa mu mikino yo gukubita udupira dutoya, inziga ndetse n'imipira minini.

Ibikorwa remezo cyane cyane amashuri yubatse afashwe n'ibyuma; yubakishije amatafari, imbere yayo hari ubusitani, hirya y'aho hateye ibiti.

Abana babiri umwe atungira mugenzi we urutoki amwereka ikiyaga, imisozi ndetse n'ikirwa kiri hakurya, abana bambaye imyenda y'umweru ndetse bakiri bato.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri y'inshuke, biri mu mabara atandukanye, umukara, umuhondo, icyatsi, umutuku, umweru ndetse n'ubururu, byifashishwa mu burezi bw'abana bato.

Ibikoresho byifashishwa mu masomo, harimo irati, ibikoresho byifashishwa baca imirongo, ndetse n'amakaramu yifashishwa mu ishuri.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugeretse, gifite amabara y'icyatsi, umweru, hari abanyeshuri bari hanze, bambaye impuzankano ndetse n'abarezi babo bari hanze y'ishuri.

Ikigo cy'amashuri, imbere yacyo hari ikigega cyubakiye n'ibyuma iruhande rwacyo hari urukarabiro rwubatse neza n'amatafari y'umweru, imbere y'ikigo cy'amashuri hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'akayira abantu banyuramo.

Ikigo cy'ishuri k'inyubako igeretse hari abanyeshuri bambaye impuzankano zabo ndetse n'abayobozi b'ikigo cy'ishuri bicaye ku ntebe.

Abagabo batatu bicaye mu ishuri harimo: uri kwandika, uri gusoma, intebe bicayeho zikozwe mu biti n'amakaye ateretse imbere yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bicaye hasi, bambaye imyenda y'ishuri cyangwa se impuzankano iri mu ibara ry'umweru, ipantaro y'ikake, bari mu busitani, impande yabo hari ikigega gifata amazi.

Abanyeshuri bahagaze bambaye impuzankano y'amabara y'umweru ndetse na kaki bari kumwe n'abayobozi babo babiri, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho kwibuka, imbere yabo harubakiye ndetse bahashyize indabo.

Ikigo cy'ishuri cy'inyubako igeretse gikikijwe n'ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabyo n'abanyeshuri biga muri icyo kigo ndetse n'ibiti birebire.

Inyubako iri mu ibara ry'ubururu, irimo ameza n'intebe ndetse hasi hubakishijwe amakaro, byifashishwa mu burezi cyangwa se mu mashuri.

Urukuta rurimo ibara ry'icyatsi, wometseho impapuro zishushanyijeho ndetse n'igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, kiri mu ibara ritukura.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe nyinshi zitandukanye ziri mu ibara ry'ubururu, ameza yifashishwa mu kwiga, ndetse ishuri riisize irangi ry'umuhondo, hanze yaryo hari abanyeshuri.

Ameza abajwe mu giti akozwe mu ishusho y'uruzi, afite amaguru ane ariko ateretse ku rubaho rurerure rurambuye, iri aho zisanzwe zikorerwa.

Abantu batandukanye bahagaze bafata ifoto, inyuma yabo hari ikirango cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda, kiri mu ibara ry'ubururu, n'inyuguti mu ngano nini, ndetse bambaye amakoti.